UNICEF umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abana, ni mwiza kuko ufasha abana badafite ubushobozi kubona ibintu by'ibanze bakeneye, urugero nk'ibyo kurya imyambaro, aho kuba, ibikoresho by'ishuri ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kubafasha natwe gutanga imfashanyo zishyigikira abo bana kugira ngo nabo bazagere ahazaza heza.

Abana bishimye, ni ahazaza heza h'igihugu cyacu, bityo rero abana barishima iyo bigishijwe gukora isuku, uko bakaraba neza intoki amazi n'isabune, bityo bakaba bazi y'uko ibyo bibarinda indwara zituruka ku mwanda.

Kugira ngo igihugu gitere imbere nuko cyegereza ibikorwa remezo abaturage bacyo, muri ibyo bikorwa remezo harimo kubeyegeza amazi, bibafasha kubona amazi mu buryo bworoshye bakiyitaho, bagakora isuku bityo kigahora gifite isuku kandi gisa neza.

Abana na bo bagira uburenganzira kimwe n'abandi bantu bose, urugero nk'uburenganzira bwo gukina, ariko ibyo ntibibabuza gufasha ababyeyi babo imirimo yo mu rugo, urugero bishimira kuvoma amazi yifashishwa mu gukora isuku, guteka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amazi ni meza ku buzima bw'ibinyabuzima byose biri ku isi. Kamwe mu kamaro k'amazi ni ugufasha umubiri gusukura imyanda yose iri mu mubiri igasohokamo. Abana nabo bamenye akamaro kayo bishimira kuyanywa kenshi gashoboka kugira ngo bafashe umubiri wabo gukomeza kumererwa neza.

kunywa amazi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, ni yo mpamvu n'abana bishima kandi bakanezerwa iyo banyweye amazi ko bizeye yuko ubuzima bwabo buri bukomeze kugenda neza kandi bagahorana itoto.

Mubice byinshi by'icyaro abantu babona amazi ari uko bapompye, ibyo bigasaba imbaraga nyinshi, gusa abana bishimira gufasha ababyeyi babo mu mirimo yo mu rugo bakajya kuvoma amazi, nubwo biba bibagoye ariko babikora bishimye.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku, ubuyobozi bushyiriraho abaturage uburyo bwo kubona amazi meza asukuye, bazajya bifashisha mu gukora isuku, haba mu ngo zabo, ku mibiri yabo ndetse no ku myambaro, bityo bagatandukana n'indwara zituruka ku mwanda.

Urwego rushinzwe imibereho myiza y'abaturage, rufasha abaturage bato hirya no hino kubona ibikorwaremezo hafi yabo, urugero nk'amazi, ayo mazi abafasha gukora isuku mu buryo bworoshye ndetse bakabona n'amazi meza yo kunywa bityo ntibagira aho bahurira n'umwanda.

Umugore utwite aba agomba kwitabwaho igihe cyose, agasuzumishwa kwa muganga kugira ngo hizerwe yuko umwana atwite ndetse na we ubwe nta kibazo bafite. Ni yo mpamvu agirwa inama yo kujya kwa muganga kenshi gashoboka kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga, bityo ubuzima bwabo bube bufite ireme.

Inkingo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha abantu kuzagira ubuzima bwiza, haba muri iki gihe ndetse no mu gihe kiri imbere, niyo mpamvu hari abakingirwa bakiri bato, nko ku myaka cumi n'ibiri, aho bahabwa urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura, rushobora kuzabagirira akamaro nko mu myaka cumi iri imbere, abantu bashishikarizwa gufata inkingo zose kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Kugira isuku ni ngombwa mu buzima. Bimwe mu byo umuntu yakora, ni ugukaraba amazi meza n'isabune mu gihe avuye mu bwiherero, ibyo bizamurinda kurwara indwara nka macinya ndetse n'impiswi, bityo ahorane ubuzima bwiza.

Kwita ku mikurire y'abana ni byiza cyane. Ni yo mpamvu ikigo gishinzwe iby'ubuzima, cyashyizeho gahunda yo kubaha inkingo zizajya zibafasha mu mikurire yabo, bikabarinda igwingira ndetse n'indwara za hato na hato, bityo bagakura bafite ubuzima buzira umuze, bakazagira ahazaza heza.

Kwita ku buzima bw'abaturage ni imwe mu nkingi y'iterambere. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, gitanga uburyo bwiza bwo gufasha abaturage gupimwa indwara zitandukanye, kugira ngo barebe niba batazirwaye. Ibyo bifasha abaturage kumenya uko bahagaze, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Buri kwezi abana bari munsi y'imyaka itanu, bapima ibiro byabo kugira ngo barebe imikurire yabo. Iyo basanze umwana ari mu mikurire myiza nta kibazo, ariko yo basanze umwana afite imikurire mibi, aguma ku kigo nderabuzima kugira ngo bamwiteho; bakamuha imfashandyo n'igikoma cya shisha kibondo, kugira ngo babashe kumwongerera ibiro, bityo hirindwe indwara ya bwaki.

Ubuyobozi bufasha abaturage kubona amahugurwa abafasha kunoza imibanire myiza bafitanye hagati yabo na bagenzi babo, ibyo bituma batera imbere kuko bakora bunze ubumwe bagafashanya, bakazamurana, bityo n'igihugu kikabyungukiramo ubukungu bwacyo bukiyongera.

Umwana aba agomba kwitabwaho neza kuva asamwe kugeza akuze, ubwo rero mu rwego rwo kwirinda imikurire mibi umwana watangiye kumenya kurya cyangwa se gufata imfashabere; aba agomba kubona indyo yuzuye ikubiyemo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, bityo agakura afite ubuzima buzira umuze.

Abana n'ejo hazaza ndetse n'imbaraga z'igihugu niyo mpamvu bahabwa inkingo zibafasha kubaka ubudahangarwa bw'imibiri yabo, ndetse no gukomera, ibyo bituma babasha guhangana n'indwara zikomeye mu gihe kiri imbere, bityo ubuzima bwabo bugahora buzira umuze.

Gukaraba intoki n'amazi meza ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, abana nabo bamenye akamaro kabyo, niyo mpamvu iyo bavuye mu bwiherero bakaraba amazi n'isabune, kugira ngo babashe gukura imyanda ku ntoki zabo, bityo birinde indwara zituruka ku mwanda.

Ni byiza kwita ku buzima bwacu. Mu gihe wumva ufite ikibazo cyangwa utameze neza, si byiza kwivura wowe ubwawe. Ahubwo icyiza ni ukujya ku bitaro bikwegereye, ukabwira umuganga uko wiyumva akagusuzuma, akagufasha, akakubwira ikibazo ufite, bityo ugahorana ubuzima buzira umuze.

Ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi umwaka w ibiibihumbi bibiri makumyabiri nae kigali nibwo habaye inama yavugaga ku buryo tugomba kwirinda icyorezo cya marbarg muri iyo nama bavuze ku bintu bitandukanye urugero rw'ibimenyetso birangayo ndwara uburyo yayirinda ndetse n'uburyo tugomba kwivuza

Uburezi mu mashuri bwabaye bwiza cyane kuko abana basigaye bahabwa ibyo kurya cyangwa se ifunguro rya saa sita kugira ngo babashe kwiga neza, bitewe nuko abana benshi bazaga ku ishuri batariye bakirwa mu ishuri basinzira, ni yo mpamvu basigaye bagaburirwa kugira ngo babashe kwiga neza bazagire ahazaza heza.

Igihe cyose, umuturage aba ari ku isonga. Ubuyobozi bubegereza serivise zitandukanye, kugira ngo babashe kuzibona byoroshye. Bityo rero n'abaganga na bo, batangira gukora imirimo nk'iyo, bakegera abaturage hafi y'ingo zabo, bakabaha ubuvuzi bakeneye, kugira ngo ubuzima bwabo, burusheho kugenda neza.

Kubaga umurwayi ni ibintu biba bitoroshye, niyo mpamvu abaganga bafatanyiriza hamwe bakaba maso kandi bakungurana ubumenyi kugira ngo babashe kumubaga neza, bityo barokore ubuzima bwe, abeho neza, azagire ahazaza heza.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu b'agaciro kenshi mu gihugu cyacu, kuko bafasha abantu kubona ubutabazi bw'ibanze bakeneye, mbere yo kugezwa kwa muganga. Niyo mpamvu bahabwa amahugurwa kugira ngo babashe kubongerera ubumenyi, bityo babashe gutanga serivisi nziza kandi neza.

Ku biro by' Akagari niho habera inteko y'abaturage batuye muri ako Kagari bose, aho bahura kugira ngo abafite ibibazo babigeze ku buyobozi, hanyuma ubuyobozi ndetse n'abandi baturage bafatanya gushakira ibyo bibazo ibisubizo byabyo, bityo bakabaho bunze ubumwe.

Abajyanama b'ubuzima bakorera ku kigo nderabuzima cya Mayange, bishimira uburyo bafashwamo mu kubona amahugurwa abafasha kunoza imikorere na serivisi batanga ku baturage, ni byiza cyane kuko bituma abaturage na bo babaho bishimiye kuko baba bazi yuko bavurwa bagakira kandi bagahabwa n'inama nziza, zibafasha gukomeza kwita ku buzima bwabo.

Abaganga bitanga uko bashoboye, bagashyira ubuzima bwabo mu kaga, kugira ngo batabare ubuzima bw'abarwayi. Ni yo mpamvu igihe cyose bahora biteguye gufasha abari mu bihe by'akaga, urugero nk'abakoze impanuka, abakeneye kubagwa ndetse n'abandi batandukanye, kugira ngo babafashe, batabara ubuzima bwabo bityo bakomeze kubaho.

Mu rwego rwo gufasha abaturage kunoza isuku, ubuyobozi bushyiraho abaturage amavomero rusange abafasha kubona amazi meza, bityo bakabasha kugira isuku haba ku myambaro yabo, mu mazu yabo, mu byo barya ndetse n'ahandi hose muri rusange.

Abana na bo bakora uko bashoboye kose kugira ngo bite ku isuku yabo bakaraba amazi meza n'isabune kugira ngo birinde indwara zituruka ku mwanda, ibyo babikora kenshi mbere yo kurya, bavuye mu bwiherero ndetse n'ahandi hatandukanye kugira ngo bahorane ubuzima bwiza.

Yaba abakuze n'abato, bose bashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune nyuma yo kuva mu bwiherero, ibyo bibarinda indwara zituruka ku mwanda kugira ubuzima bwiza, bityo bakubaka u Rwanda twifuza.

Abajyanama b'ubuzima babereyeho gufasha abaturage kubona ubuvuzi bw'ibanze, niyo mpamvu habaho uburyo bwo kubahuriza hamwe, kugira ngo babashe kubona amahugurwa abafasha gutanga serivisi nziza kandi inoze.

Ubu buryo bukoreshwa mu kuyungurura amazi ni bwiza kandi burizewe ku kigero cyo hejuru kubera yuko butanga amazi meza afite isuku, abaturage bakaba bayanywa ndetse bakayakoresha no mu bindi bikorwa by'isuku, bityo bikabarinda guhura n'indwara zituruka ku mwanda.

Umugore utwite aba agomba kwitabwaho cyane kugira ngo azabyare umwana ushyitse, niyo mpamvu abajyanama b'ubuzima bamusura kenshi gashoboka kugira ngo bamwibutse uko agomba kwiyitaho, ikindi kandi umugabo we nawe aba asabwa kuba ahari kuko ari we uba uzamwitaho akamufasha mu mikurire y'umwana we bityo bagafatanyiriza hamwe kugira ngo bazabashe kumwitaho.

Mu biganza by'umuntu habamo mikorobe nyinshi cyane zirenga ama miliyoni kandi zitagaragara, niyo mpamvu tuba tugomba kwitoza umuco wo gukaraba intoki kenshi gashoboka, tugakaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka ku mwanda.

Abajyanama b'ubuzima bahurira hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa, abafasha kongera ubumenyi bari bafite. Ibyo ni ingenzi cyane, kubera yuko ubutabazi bw'ibanze batangaga buba bugiye kugira ireme kurusha mbere, maze ubuzima bw'abantu bukava mu kaga.

Mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, hari ahantu hataragera ibikorwaremezo, urugero nk'amazi, aho abaturage bajya kuvoma amazi mu gishanga, yaba ayo gukoresha, ayo kunywa ndetse n'ibindi, ayo mazi mu by'ukuri ntabwo aba asukuye, ashobora gutera indwara zituruka ku mwanda, urugero nk'inzoka, macinya, n'ibindi bitandukanye.

Ubufatanye n'ubumwe bw'ibihugu ni byiza cyane, kubera ko ibihugu bimwe bishora imari mu bindi bityo ubukungu bwabyo bukiyongera. Ndetse n'abaturage babyo bakabana amahoro bunze ubumwe nta bibazo bafitanye.

Inkingo ni kimwe mu bintu bifasha abana kugira ubuzima bufite ireme kubera y'uko bibubakira ubushobozi bwo guhangana n'indwara zitandukanye. Bityo bagakura bafite imbaraga kandi bafite amagara mazima bakubaka u Rwanda twifuza.

Minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc, bifatanya n'isi yose mu munsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, aho bategura ibiganiro bitandukanye bakabigeza ku baturage, bityo babashishikariza kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura, kugira ngo babashe kuyirandura mu gihugu ndetse no ku isi hose.

Imwe mu ntego yo kugera ku iterambere rirambye, ni ugufasha abaturage kugira ubuzima bwiza kuko ari bo mbaraga z'igihugu, ibyo bikorwa bakingira abaturage indwara zitandukanye kugira ngo bafashe umubiri kubona ubudahangarwa buzahangana n'izo ndwara, bityo abaturage bakabaho bafite amagara mazima.

Iyo abana bari gukina barishima cyane, urugero nk'iyo bari gukina umukino wo koga, bakubita amazi birabashimisha ndetse bakanezerwa, ikindi bakagirana ubucuti bukomeye nabo baba bajyanye bityo bakazafashanya no mu gihe kiri imbere, ubwo rero turasabwa kubafasha mu mikino bakina kuko ari n'uburenganzira bwabo mu gukina.

Abaturage bishimira gahunda bashyiriweho yo kubona amazi meza ku mavuriro rusange abegereye hafi mu mudugudu kuko bituma bakora isuku kandi bikabarinda akaga ko kuribwa n'inyamaswa, urugero nk'ingona zabaryaga kera iyo babaga bagiye kuvoma mu migezi.

Mu ntoki habarirwamo amamiliyoni n'amamiliyoni y'amamikorobe menshi cyane, ashobora gutera indwara zitandukanye. Ni yo mpamvu umuntu aba asabwa gukaraba inshuro nyinshi zishoboka ku munsi. Agakaraba amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo hizerwe isuku ye.

Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ni abantu babayeho nabi, babayeho ubuzima bubabaje, aho usanga baba bambaye imyenda isa nabi, icitse, basa nabi ku mubiri kuko baba badaheruka gukaraba, ikindi barya ibiryo bidafite intungamubiri by'imyanda, akenshi baba bakuye mu bimoteri, ni byiza kubitaho kuko nabo ni abantu nk'abandi bakeneye kwitabwaho.

Abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe na bo baba bakeneye kwitabwaho nk'abandi, baba bakeneye ko tubahumuriza, tukabaganiriza, bakavurwa ndetse bakabona imyambaro n'ibyo kurya, ubuzima bwiza ni ubwa bose.

Inteko y'abayobozi ni kimwe mu bintu bifasha gutuma habaho imiyoborere myiza, bityo abantu bagahora bafite umutekano kandi bunze ubumwe. Abayobozi bahurira hamwe kugira ngo bige ku bintu by'ingenzi byabafasha kuyobora abaturage neza, bityo bakabasha kwiteza imbere mu byo bakora byose.

Ihungabana ni imwe mu ndwara zo mu mutwe, yugarije abantu benshi cyane kandi ugasanga abantu batazi ko bayirwaye. Ni yo mpamvu umuntu wumva atangiye kwiyumva uko asabwa kwegera abaganga babizobereye kugira ngo bamufashe bamuganirize bamubwire icyo yakora kugira ngo akire neza.

Ese wari uziko guseka byongera iminsi yo kubaho? yego rwose, umuntu useka ahora yishimye ahorana akanyamuneza ku maso bityo n'ibyo akora akabikorana umwete n'umutima mwiza, bityo akabasha kwiteza imbere agateza imbere n'abandi.

Jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane Mata, abantu benshi bahaburiye ubuzima bishwe urubozo, ni yo mpamvu abasigaye bibuka ababo, bagashyira indabo ku mva, ndetse bakabunamira kugira ngo babahe icyubahiro bakwiriye. Twibuke twiyubaka.

Abayobozi bahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima Arabisi, bahurira hamwe kugira ngo bige ndetse bashake n'ibisubizo by'ibibazo abaturage baba bafite ku byerekeye uburwayi bwabo ndetse babashe no kubona ubumenyi bazatanga mu mahugurwa kugira bakangurire abaturage uburyo bwinshi bwo kwirinda indwara.

Amahoro n'ubutabera, ni bimwe mu bintu bituma abantu babaho bunze ubumwe. Bityo rero hari abayobozi benshi bishimira gufasha abaturage kugarura amahoro hagati yabo bagakemura amakimbirane, ndetse abari mu makosa bagahanwa abarenganywa bakarenganurwa.

Mu bihugu byinshi byo ku isi, abantu bugarijwe n'ibibazo by'ubukene, babayeho nabi aho ubukungu buba bwifashe nabi, ugasanga ntaho kuba bafite, nta myambaro bafite, nta n'ibyo kurya bafite, ikirenzeho hari igihe usanga harimo n'intambara, bityo bamwe bakaburiramo n'ubuzima.

Isange one stop center ni ikigo gifasha abantu bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kikabafasha kubona ubuvuzi bw'ibanze, kikabafasha kubona n'ubutabera ndetse bakanahumurizwa kugira ngo badahura n'ibibazo by'ihungabana.

Indwara zo mu mutwe, ntabwo ari ugutakaza ubwenge gusa. Ahubwo kwiheba, no kwigunga, nabyo ni indwara zo mu mutwe. Ni yo mpamvu abantu bashishikarizwa, kujya kwa muganga kugira ngo abaganga babizobereye, babafashe kongera gusubiza ubwenge ku murongo, bityo habungwabungwe ubuzima bwo mu mutwe.

Mu rwego rwo gufasha abana kuzagira ahazaza heza, boherezwa ku mashuri kugira ngo bige, bityo babone ubumenyi n'ubwenge, niyo mpamvu ababyeyi bashishikarizwa kohereza n'abandi baba basigaye mu rugo, bityo kugira ngo babashe kuzavamo abantu bakomeye.

Indwara z'ubuzima bwo mu mutwe ni indwara zihangayikishije abantu benshi cyane ku Isi, ni muri urwo rwego Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ishyiraho uburyo bwo kwegera abaturage bakumva ibibazo bafite, bakabafasha, bakabavura indwara zo mu mutwe abazifite ndetse bakabaganiriza kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo.

Abantu barwaye indwara zo mu mutwe baba bari mu mirere igoranye, aho usanga birirwa mu bimoteri batoragura imyanda, nk'amashashi, imyenda yashaje, ibikinisho byashaje, ndetse bakarya n'ibiryo byaboze. Ibyo ngibyo bishobora kugira ingaruka mbi ku mibiri yabo, bityo bakaba batakaza ubuzima, rero tujye tubafasha kugira ngo babeho nk'abandi.

Iyo dufashije abantu batishoboye biradushimisha kandi nabo bakishima, urugero nk'iyo tubahaye ibyo kurya, amazi, imyambaro ndetse n'icumbi birabafasha iminsi ikicuma, muri ubwo buryo, iki kigo gifasha abantu batishoboye kikabaha ibintu by'ibanze baba bakeneye, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tajikistan byashyizeho gahunda yo gufasha abantu barwaye indwara zo mu mutwe, kubona uburenganzira nk'ubw'abandi, ndetse bakarindwa ihohoterwa, kuko ibyo ngibyo ari bimwe mu bidindiza iterambere ryabo.

Gufashanya ni umuco wakagombye kuranga abantu bose muri rusange, si byiza gusiga mugenzi wawe inyuma, icyiza ni ukumuhagurutsa mugakomezanya urugendo kubera ko ejo ni heza, gusenyera umugozi umwe ni byiza kuko bituma mwunga ubumwe, mugakorera hamwe ndetse mukiteza imbere.

Abana bishimye umunsi mwiza, iyo abana bishimiye ibintu byose bigenda neza muri rusange, kubera yuko abana ni umurage Imana yahaye ababyeyi, ikindi kandi iyo bakinnye bakizihirwa bagirana ubucuti bukomeye ku buryo bwa bucuti bushobora kuzaba ubw'igihe kirekire bagafashanya no mu gihe kiri imbere, bakabasha gutezanya imbere bityo ntihagire n'umwe usiga undi.

Muri iki gihe, abaturage bugarijwe n'ibibazo bitandukanye, urugero nk'intambara, inzara ndetse n'ibindi. Aho umwana na we abigenderamo, akaba yabura ababyeyi babo mu ntambara, akicwa n'inzara ndetse akabura n'ibindi bintu bitandukanye by'ingenzi mu buzima, aba akeneye.

Kwita ku isuku yo mu kanwa ntibirangirira ku gukoresha uburoso gusa, ahubwo abantu bashishikarizwa gukoresha n'akadodo kugira ngo bakuremo imyanda iba yafashe hagati mu menyo, bityo ibice byose by'iryinyo bibe bifite isuku kugira ngo habashe kubungabungwa mu buzima bwo mu kanwa.

Amenyo ni kimwe mu bice by'ingenzi bigize umubiri w'umuntu, kubera y'uko yifashishwa mu guhekenya neza ibyo tuba twariye, bityo bikorohereza igifu mugogora. Niyo mpamvu rero mu gihe harimo irirwari iba rigomba kuvanwamo, kugira ngo ritanduza n'anyandidi yose akarwara, ndetse amenyo agakorerwa n'indi suku yose, bikayarinda indwara zituruka ku mwanda, urugero nk'impumuro mbi, ndetse no gusa nabi.

Ni byiza kwita ku isuku y'amenyo, niyo mpamvu hashyirwaho uburyo bwo kwigisha abana kwita ku isuku yabo yo mu kanwa, bakabasanga mu bigo by'amashuri kugira ngo babibigishe, umwana aba agomba kwikorera isuku ye yo mu kanwa ubwe bidasabye ko hari undi muntu ubimufashamo, niyo mpamvu babigisha uburyo bwiza bwo kwita ku isuku yabo yo mu kanwa kugira ngo bahorane amenyo asa neza ndetse n'impumuro nziza.

Abantu bashishikarizwa kwivuza mu gihe barwaye kugira ubuzima bwabo, bukomeze kugenda neza. Abaganga nabo baba biteguye kubafasha, bityo rero mu gihe umuntu arwaye, urugero nk'indwara zo mu kanwa, baba biteguye kumufasha nko kumukura iryinyo, kumwogereza amenyo ndetse n'ubundi buvuzi butandukanye butangwa, bityo umuturage akabasha guhorana isuku mu kanwa ndetse n'ubuzima bwe bukaba buri ku isonga.

Tubiteho. Iyo ni gahunda yashyizweho yo kwigisha abana uburyo bwo koza amenyo neza bakabungabunga isuku yabo yo mu kanwa, ibyo bibafasha kwirinda impumuro mbi mu kanwa, guhorana amenyo asa neza ndetse no kwica udukoko dutoduto dutera indwara zo mu kanwa bityo bagahorana isuku ku mubiri, mu kanwa ndetse n'ahandi.

Kwita ku isuku y'amenyo ni ingenzi cyane, umuntu aba asabwa gusukura amenyo byibuze kabiri ku munsi mu gitondo na n'ijoro, ibyo bituma mu kanwa hahora impumuro nziza, amenya agahora asa neza ndetse bikamurinda n'izindi ndwara zitandukanye.

Isuku y'amenyo ni isuku y'ingenzi cyane. Abana bigishwa koza amenyo kugira ngo babashe kwikorera isuku bo ubwabo hatagize undi muntu ubibafashamo. Koza amenyo biba bigomba gukorwa byibuze kabiri ku munsi, mu gitondo na ninjoro, kugira ngo hizerwe yuko hafite isuku kandi harimo impumuro nziza.

Kwita ku isuku y'umubiri wacu ni ngombwa mu buzima, bityo rero no mu kanwa haba hakeneye kwitabwaho kugira ngo hahorane impumuro nziza ndetse n'amenyo ahore asa neza, niyo mpamvu gukoresha uburoso byonyine ntabwo bihagije, ahubwo tuba tugomba no gukoresha akadodo hagati y'amenyo kugira ngo imyanda irimo yafashemo ibashe kuvamo.

Abana bishimye kandi banezerewe iyo bari koza amenyo yabo, kuko baba bazi yuko bari kwirinda indwara nyinshi zo mu kanwa, urugero k'impumuro mbi, gusa nabi kw'amenyo, ndetse n'izindi ndwara zo mu kanwa, bityo rero tuge twigisha abana bacu koza amenyo buri munsi, mugitondo saa sita ndetse nijoro kugirango babungabunge ubuzima bwabo bwo mu kanwa.

Kumenya ko urwaye indwara zo mu kanwa, ukegera abaganga babizobereye kugira ngo bagufashe, ni ingirakamaro ku buzima bwawe kuko barakuvura ugakira neza, bagatuma mu kanwa hongera kugira impumuro nziza ndetse n'amenyo yawe agahora asa neza. Ibyo bigatuma ugira ubuzima buzira umuze kandi bufite ireme.

Ese wari uziko kugira ngo umwana abashe kugirana imishyikirano myiza n'umubyeyi we bigomba gutangira akiri muto? Yego rwose umubyeyi aba agomba kuba inshuti y'umwana kuva akiri muto kugeza akuze, ibyo bizatuma atamwishisha amubwirare ibimuhangayikishije n'ibimushimishije bityo ubucuti bwabo burambe bw'igihe kirekire kugeza umubyeyi ashaje

Ushobora kwibaza niba siporo ifite akamaro cyangwa ntako ifite? Yego iragafite kubera yuko abantu bakora siporo baba bafite amagara mazima baba baruhutse neza mu mutwe ikindi kandi baba bafite imbaraga ku buryo imirimo yabo bayikora neza n'abageze mu zabukuru bashishikarizwa kuyikora kugira ngo bibarinde guhura n'ibibazo by'indwara zitandukanye bityo bakabaho bishimye.

Umuryango wishimye ni kimwe mu bintu bitanga amahoro n'umutuzo, ubwo rero kugira ngo abawe babashe kwishima nawe ugomba kugirabigiramo uruhare, abakuru b'imiryango baba bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kubona ibitunga imiryango yabo ndetse n'ibindi by'ingenzi baba bakeneye kugira ngo babeho bishimye, ibyo bizatuma barambana ndetse habeho umwuka mwiza w'amahoro mu muryango .

Kugira ngo abashakanye bagire urugo rwiza kandi barambane ni uko babanza kuba inshuti. Kubera ko inshuti nziza ikugira inama, ikakuyobora igihe wayobye kandi ikakuba hafi mu bibi no mu byiza. Iyo wagize amahirwe rero ukabona inshuti nziza muwo mwashakanye urugo rwanyu ruzira amakimbirane, rugahora rwunze ubumwe, ndetse rukagera kuri byinshi.

Ibanga ryo kugira amasaziro meza ni ukwitanaho ndetse no kuganira, kwitanaho ni ugufatanya mu bintu bitandukanye urugero nko gusangira, gutegurana amafunguro, gufatanya uturimo two mu rugo ndetse n'ibindi bitandukanye, kuganira ku bibazo mufitanye nabyo bizabafasha kunga ubumwe mubane mu mahoro, umuryango wanyu uhoremo ibyishimo.

Abageze mu zabukuru ni abantu baba bakeneye kwitabwaho, cyane cyane kugira ngo babashe kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Kubera yuko baba basheshe akanguhe baba bakeneye umuntu ubitaho, bakishima, bakanezerwa, bagaseka kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze, mbese bagire amasaziro meza.

Abageze mu zabukuru bafashwa mu buryo butandukanye kugira ubuzima bwiza. Urugero bafashwa gukora imyitozo ngororamubiri ibafasha kurambura imitsi aramaso agatembera neza, ibyo bibarinda indwara zitandura urugero nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete n'izindi. Ibyo bibafasha kugira amasaziro meza, banasaza bafite amagara mazima.

Ubukwe ni umuhango mwiza cyane, aho inkumi n'umusore baba bagiye gushyingiranwa imbere y'abantu bose, kugira ngo bemeze ishyingiranwa ryabo. Ababyeyi barabyishimira kuko, baba batewe ishema n'uko abana babo bakoze ubukwe. Ni byiza kwishimira ibintu nk'ibyo, kuko ari n'ishema ku gihugu.

Umuryango ni ikintu cy'ingenzi mu mibereho yacu ya buri munsi. Kuba ufite ababyeyi, ufite abuzukuru, ufite nyogokuru na sogokuru, ni ibintu bishimisha cyane. Buri wese aba yifuza kugira umuryango mugari kugira ahore yishimye, kandi bitera ishema.

Abageze mu zabukuru baba bagomba kwitabwaho bagakorerwa isuku yo ku mubiri kugira ngo bahore basa neza, ntibaba bafite imbaraga zo kubikora, niyo mpamvu haba hari abantu bo kubafasha kugira ngo babashe kwita ku isuku yabo, bakaboza bakabambika bakanabasasira kugira ngo bahore basa neza.

Abageze mu zabukuru, bahura n'ibibazo bitandukanye, kuko ubudahangarwa bw'umubiri wabo, buba bwaracitse intege. Ni yo mpamvu bakangurirwa kwisuzumisha kenshi, kugira ngo hizerwe yuko ubuzima bwabo butari mu kaga, bityo bagire amasaziro meza.

Nta kintu gishimisha nko kubona umubyeyi wunze ubumwe n'umwana we. Birashimisha rwose. Ni yo mpamvu ababyeyi bakangurirwa kuba inshuti n'abana babo, kugiraga abana babo bajye bababwira ibintu bibahangayikisha ndetse n'ibibashimisha bityo babane bunze ubumwe.

Abantu bageze mu za bukuru baba bafite amagara make, niyo mpamvu hari abaganga baba biteguye kubafasha, gukomeza kwirinda ibintu byatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga, urugero nk'ababafasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi yabo irambuke bityo amaraso abashe gutambuka neza, ndetse n'ingingo zigororoke kugira mu mbaraga nkeya afite abashe kugenda ndetse no gukora utundi tuntu duto duto twa hato na hato.

Abantu bageze mu zabukuru ni abantu baba bakeneye kwitabwaho cyane, kuko hari ibintu byinshi biba byarahindutse mu buzima bwabo, niyo mpamvu haba hari abaganga biteguye kubafasha: haba mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'amarangamutima, ndetse no kubasuzuma bakareba niba nta bindi bibazo by'ubuzima baba bafite bityo bakagira amasaziro meza.

Ubyiruko ruba rukeneye guhugurwa rugahabwa inama ndetse n'amakuru ajyanye n'imibereho yabo ya buri munsi kugira ngo babashe kwigira, bumve ko bashoboye kandi bafite agaciro bityo biteze imbere, bazabashe no guteza imbere igihugu cyababyaye.

Mu rwego rwo kubungabunga isuku y'aho dutuye, abaturage bashishikarizwa kuvangurira imyanda ku isoko, aho ibora bayishyira ukwayo n'itabora bakayishyira ukwayo, ibyo byorohereza abakarani b'isuku ndetse bigafasha n'abandi babyaza inyungu iyo myanda bikaborohereza akazi.

Abaganga baba bafite ubuhanga buhanitse kandi baratojwe neza kubera ko ubuzima bw'abantu buba buri mu biganza byabo, ni mpamvu iyo bari mu cyumba cy'ibagiroriro bari kubaga umuntu, urugero nk'umutima, impyiko, umwijima cyangwa ibindi, bafatanyiriza hamwe bakungurana ibitekerezo kugira ngo babashe kumubaga neza, bityo barokora ubuzima bwe.

Mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus abantu barasabwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa, gusiga byibuze intera ya metero hagati y'umuntu n'undi, kurya indyo yuzuye mu gihe ufite ikibazo ugahamagara umurongo w'ijana na cumi na kane usaba ubufasha, ikindi tugomba kwirinda ni ukujya ahantu hatateganyijwe kugira ngo twirinde gushyira ubuzima bwacu mu kaga.

RBC ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, aho kireberera ibigo nderabuzima, ibitaro bikuru ndetse n'amavuriro yigenga yose aba mu Rwanda, kigenzura neza yuko kwa muganga hatangirwa serivisi nziza, abarwayi bakabonera imiti ku gihe ndetse bakabasha gukira neza kugira ngo abaturarwanda bose babe bafite amagara mazima.

Guhugura abangavu kugira ngo babashe kwitinyuka, ni byiza cyane kubera ko na bo barashoboye bafite byinshi bakora bakiteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu cyabo, urugero nk'ubucuruzi, ubugeni ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bashoboye gukora bityo ubuzima bwabo na bo bukagenda neza batishingikirije ku bandi.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende. Ubushita bw'inkende, ni indwara ifata ku mubiri, aho umuntu arwara utubyimba ku mubiri wose, mu nsina z'amatwi, ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibimenyetso byayo, ni uguhinda umuriro, kurwara umutwe, ndetse no kubabara umubiri wose, ukazanaho uduheri. Iyo ubonye ibyo bimenyetso, wihutira kujya kwa muganga, kugira ngo bagufashe.

Urubyiruko ruharanira iterambere ry'igihugu rwifatanya n'abandi mu bikorwa by'ubutabazi bw'ibanze, ibyo bikorwa bifasha abantu bakomeretse cyangwa bafite ibindi bibazo bitandukanye kubona ubutabazi bw'ibanze mbere yo kugezwa kwa muganga ibyo bituma ubuzima bw'abantu benshi bwari buri mu kaga bubasha kurokorwa.

Icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyari cyugarije Isi ubu cyabonewe urukingo, aho abantu bakingirwa bityo imibiri yabo ikabasha kubona ubudahangarwa bubasha guhangana n'icyo cyorezo cy'ubushika bw'inkende maze bakagira ubuzima bwiza bakagira ahazaza heza.

Mu ijanisha ryakozwe byagaragaye ko urubyiruko ruri ku isonga mu kwandura virusi itera SIDA. Ubwo rero barasabwa kwipimisha, bakirinda, bagakoresha agakingirizo cyangwa bakifata, kugira ngo bagabanye ibyago byo kwandura virus itera SIDA, bityo ahazaza habo hakaba heza kuko ari bo Rwanda rw'ejo.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, ni ikigo gifasha abaturage, kugira ubuzima buzira umuze. Ni yo mpamvu cyabashyiriyeho amabwiriza cyangwa se imirongo ngenderwaho, ibafasha kwirinda agakoko gatera SIDA. SIDA ni indwara itagira umuti nta n'urukingo. Ni yo mpamvu abantu basabwa kwifata cyangwa bagakoresha agakingirizo, kugira ngo babashe kwirinda.

Kugira ngo tubashe guhashya icyorezo cya Covide cumi n'icyenda, abantu barakangurirwa gufata inkingo zose zabugenewe, kugira ngo imibiri yabo ibashe kubona ubudahangarwa buhagije bwo guhangana n'iyi virusi, bityo ubuzima bw'abantu buri mu kaga, bukabasha kurokorwa.

Hehe n'igwingira twita ku buzima bw'umubyeyi utwite, iyi ni gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda, ishyiraho abaturage kugira ngo babashe kumenya agaciro k'umubyeyi utwite bityo bamurinde gukora imirimo ivunanye ndetse bamugaburire indyo yuzuye, aruhuke neza kugira ngo ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite bibashe kubungwabungwa.

Icyumweru cyahariwe kurwanya ihohotera rikorerwa abageze mu zabukuru, cyari gifite insanganyamatsiko igira, iti kirazira guha akato no guhohotera abageze mu zabukuru mu buryo ubwo aribwo bwose, byafashije abantu gusobanukirwa yuko, abageze mu zabukuru na bo bagomba kwitabwaho kimwe n'abandi, bityo bagahora bishimye ndetse bakagira amasaziro meza.

Ikigo Nderabuzima cya Kanyinya, ni Ikigo Nderabuzima cyiza cyubatse neza kandi gifite isuku. Abakigana bishimira serivisi bahabwa, uburyo bakirwamo, ndetse n'uburyo bavurwamo. Baba bizeye ijana ku ijana ko bari buvurwe bagakira neza indwara barwaye.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, gitanga serivisi zitandukanye z'ubuzima aho bita ku barwayi bakabaha ubuvuzi bakeneye bityo bakabasha gukira, bagafasha ababyeyi batwite kubyara abana bazima, ndetse bagafasha n'urubyiruko kubona amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'izindi serivisi zitandukanye.

Ibitaro biherereye mu Rwanda byitiriwe Umwami Faisal, ni ibitaro bizwiho gutanga serivise nziza, aho byakira indembe, abakomeretse, abahuye n'impanuka, ndetse n'abandi bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Birabafasha bikabaha ubuvuzi bukenewe kugira ngo babashe kurokora ubuzima bwabo. Abantu benshi barahagana kuko baba bizeye yuko bari bwakirwe neza, kandi bakavurwa bagakira.

Ikigo kita ku buzima n'imikurire by'abana, kiba gishishikariza ababyeyi kuzana abana mu gihe barwaye kugira ngo bahorane amagara mazima. Kandi bazabashe kugira ahazaza heza kuko baba bitaweho neza.

I Kanombe hari igurishirizo ry'imiti ryitwa Mediasol, abarigana bishimira serivisi bahabwa kubera yuko babona imiti bakeneye bityo bakabasha kuvurwa neza, ikindi kandi abacururiza ahongaho na bo babasha kubona amafaranga, atuma batunga imiryango yabo, kandi bakiteza imbere.

Ubuzima bw'abarwayi buba buri mu biganza by'abaganga. Ni yo mpamvu biga neza kugira ngo bazabashe kurokora ubuzima bwabo. Abarwayi nabo bishimira uburyo abaganga babitaho, bakabavura, bakabaha ibyo bakeneye byose kugira ngo babashe gukira.

Ubuvuzi byarenze kuba umwuga bigera ku kwitanga, abaganga baritanga bagakora uko bashoboye kose kugira ngo bafashe abarwayi, bityo babashe kugira ubuzima bwiza maze biteze imbere, bateze imbere n'Igihugu cyacu.

Isange One Stop Center, ni ikigo gifasha abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubona ubuvugizi ndetse n'ubutabera ndetse bagahabwa n'inama yuko bakwitwara kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abantu bafite ubumuga bwo kutabona, bahura n'ingorane nyinshi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu hashyizweho ikoranabuhanga rihambaye, ryifashishwa mu kuvura ndetse no gupima amaso, kugira ngo hagabanywe umubare munini w'abantu bafite ubumuga bwo kutabona.

Abagore bafite imyaka mirongo itatu n'itanu kuzamura, bashishikarizwa kwisuzumisha indwara zitandura, urugero umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi kugira ngo ubuzima bwabo bugire ireme, kuko bo baba bafite amahirwe menshi yo kuba barwara izo ndwara.

Inzu y'ababyeyi, ni inzu yagenewe ababyeyi batwite, kugira ngo babashe kuhibarukira. Batandukanywa n'abandi barwayi kugira ngo bitabweho neza, kuko ubuzima buba bugomba kurokorwarwa buba ari ubw'abantu babiri, ari bo umubyeyi ndetse n'umwana yari atwite. Baba bagomba kwitabwaho n'abaganga babizobereye kugira ngo barokore ubuzima bwabo, bityo yaba umubyeyi ndetse n'umwana ndetse n'abaganga bagira ahazaza heza.

Iyo ababyeyi bagiye kwibaruka kwa muganga, ntago bajyanwa mu nzu iyo ariyo yose. Bagira inzu yabo yihariye, yitwa inzu y'ababyeyi, akaba ariho babyarira, kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana atwite, bibashe kurengerwa mu buryo bwihariye.

Muri iki gihe uburyo bwo kubaga abarwayi bwabaye bwiza cyane kuko hifashishwa ikoranabuhanga rihambaye ndetse n'imashini zihambaye, bityo amahirwe yo gutabara ubuzima bw'umuntu akaba ari hejuru cyane.

Universite nkuru y'u Rwanda ni ishuri ryigisha amasomo hafi ya yose, bityo abanyeshuri bakaba bitezweho kuhakura ubumenyi bazajyana ku isoko ry'umurimo, bakiteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu cyacu.

Utugare tw'abamugaye, ni utugare twiza dufasha abantu bamugaye kuba babasha kwigeza ahantu bakava hamwe bakagera ahandi. Tuba dufite amapine ku buryo agasunika akabasha kugenda, bityo ntahangayike bitewe n'uko yabuze umuntu umufasha kugera iyo ashaka kujya.

Kwa muganga bita ku barwayi bakabavura, bityo ubuzima bwabo bukagenda neza, niyo mpamvu hashyizweho n'ibitanda kugira ngo umurwayi uje arembye cyane agume mu bitaro, akurikiranwe n'abaganga, kugira ngo habashe kwizerwa yuko ubuzima bwe bukomeza kugenda neza nta kibazo.

Buri kwezi ababyeyi bajyana abana babo kwa muganga, kugira ngo abaganga babishinzwe babapime ibiro, bityo babashe kumenya imikurire y'umwana uko ihagaze, barebe niba ari mu mirire mibi cyangwa imirire myiza, kugira uri mu mirire mibi abashe gufashwa akurikiranwe, kugira ngo agaruke mu mirire myiza.

Abaforomokazi babigiranye urukundo n'ubugwaneza bita ku bana baba bavutse kugira ngo babafashe kugira ubuzima bwiza, bityo bazakure neza kuko ari rwo Rwanda rw'ejo.

Mu rwego rwo kwirinda umwanda, gukora isuku aho dukorera na byo ni ingenzi cyane, kuko biturinda uturwara twa hato na hato dushobora guterwa n'ivumbi, urugero nk'inkorora, ibicurane ndetse n'igituntu.

Icyumba abarwayi babagirwamo, ni icyumba kiba kirimo ibikoresho byinshi bihambaye, byifashishwa mu kubaga, kugira ngo habe hizewe yuko ubuzima bw'umurwayi buri burokorwe. Ni yo mpamvu abaganga babikorana ubuhanga kugira ngo babashe kurokora ubuzima bwe.

Amaso ni bimwe mu bice by'ingenzi biri ku mubiri wacu. Adufasha kureba tukitegereza tukamenya ikiza n'ikibi bityo tugahitamo igikwiye. Ni yo mpamvu tuba tugomba kuyitaho tukayasuzumisha kenshi gashoboka kugira ngo twirinde ingaruka zishobora guterwa n'indwara z'amaso, urugero nk'ubuhumyi ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibitaro bya kabgayi ni ibitaro bizwi cyane mu gihugu cyacu. Abantu benshi bishimira kujyayo kubera serivisi nziza batanga n'ubuhanga bafite. Urugero batanga serivisi mu bijyanye no ku kuvura amaso, kubaga, ndetse n'izindi zitandukanye. Abantu bishimira kujyayo kuko baba bazi ko ubuzima bwabo buri burokorwe.

Mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abaturage, bashyiriweho gahunda yo gusuzumwa amaso ku buntu, ku bantu bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri ndetse n'abari hejuru y'imyaka mirongo itandatu. Ibyo bikaba bibarinda akaga ko guhuma imbura gihe.

Ku mavuriro atandukanye hashyirwaho umuntu ufasha abantu batwara ibinyabiziga kubona aho baparika ibinyabiziga byabo heza kandi hizewe hafite umutekano, bityo bikarinda akajagari ku ivuriro ndetse n'impanuka.

Iki ni icyuma kifashishwa kwa muganga kugira ngo barebe indwara umurwayi yaba arwaye zitagaragara, aho umurwayi akiryamaho akinjiramo imbere kikamureba imbere mu mubiri wose bityo inyama cyangwa urugingo rurwaye rukagaragara, bityo akabasha guhabwa ubuvuzi bukenewe kugira ngo akire neza.

Ikigo cyita ku buzima cyasanze ari iby'ingenzi yuko no mu bitaro hagomba gushyirwaho inzitiramibu zikoranye umuti, atari mu ngo gusa kugira ngo bafashe abarwayi baharwarira kubona ubwirinzi, bityo ntibabashe kwandura malariya kugira ngo bagabanye umubare w'abantu bahitanwa nayo buri mwaka.

Abaganga baritanga bagakora uko bashoboye kose kugira ngo bahe abarwayi ubuvuzi bwiza kandi bwizewe. Urugero nko mu gihe cy'ibyorezo bikomeye, baba biteguye gufasha buri wese uri mu kaga kugira ngo babashe kurokora ubuzima bwe.

Mu rwego rwo gufasha abantu kugabanya umubyibuho ukabije, hirya no hino hagenda hashyirwaho amazu, habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bityo abantu bakaba bajyayo bagakora siporo, ubuzima bwabo bukagira ireme.

Eneri farumasi ikigo gicuruza imiti aho abaturage bakigana bagenda bakagura imiti baba bandikiwe na muganga bityo bakabasha gukira hanyuma ubuzima bwabo bugakomeza kugenda neza n'imirimo yabo igakomeza kugenda neza. Ubucuruzi burunguka bityo n'ababukora nabo bakabasha kubona amafaranga atunga imiryango yabo.

Abaforomokazi ni abantu bo gushimirwa cyane kuko na bo baritanga uko bashoboye, bagafasha abaganga kugira babashe kuvura abaturage, cyangwa abarwayi, bityo bakire neza. Aho bafasha abaganga kubegereza ibikoresho bakeneye nko mu kubaga umurwayi, cyangwa mu kumubyaza, cyangwa kudoda, ndetse bakamenya n'uko babika imiti kugira ngo hizerwe ubuziranenge bwayo.

Iyo umurwayi arembye aguma kwa muganga kugira ngo babashe kumukurikirana neza. Niyo mpamvu bamushyira mu ibitaro bakamuha igitanda cyo kuryamaho ndetse n'akabati ko kubikamo ibintu bye kugira ngo bibe bifite umutekano. Iyo ahagumye bituma abaganga babasha kumukurikirana, bakamuha imiti ndetse bakareba uko ubuzima bwe buhagaze, bityo ubuzima bwe ntibujye mu kaga.

Abaganga bakoresha ubuhanga bwabo ndetse bagakorana umwete kugira ngo bafashe ababyeyi bibaruka neza, iyo umubyeyimaze amaze kwibaruka bakomeza kumwitaho n'umwana we, bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Uko imyaka ihita indi ikaza, ni ko ibintu bigenda bihindagurika. Ni yo mpamvu abaganga nabo bahabwa amahugurwa kenshi gashoboka kugira ngo babashe kumenya ibintu byahindutse muri serivise bahaga abarwayi, ibyo bituma babasha kwita ku barwayi bakabavura bagakira, bityo bakagira amagara mazima.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, abagabo bashishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kugira imbaraga bityo babashe kwita ku miryango yabo bayirinde mu gihe bahuye n'akaga, hari n'amazu yabugenewe aba arimo ibikoresho bibafasha gukora iyo myitozo ngororamubiri mu buryo bworoshye.

Abantu bafite ubumuga bwo kutagenda ntabwo batereranywe, ahubwo na bo bitaweho bakorerwa utugare bicaramo, bakabasha kugenda bakagera iyo bajya, haba kwa muganga, mu kazi, gusenga ndetse n'ahandi hatandukanye, ubwo rero ubuzima bwiza ntabwo ari ubwo abafite amagara mazima gusa ahubwo ubuzima bwiza ni ubwa bose.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ntabwo igenewe abagabo gusa ahubwo igenewe n'abagore. Abagore bakora imyitozo ngororamubiri batekereza neza kubera ko ubwonko buba bwaruhutse, imitsi n'inkingo byabo bikarambuka. Bityo bagahorana ubuzima bwiza buzira umuze.

Iyo umukinnyi ari mu kibuga haba hari amahirwe menshi yo kuba yagira ibibazo by'imvune urugero, ashobora gusitara akagwa cyangwa mugenzi we akaba yamutega akagwa, bityo ntabashe gusohoza ibyo yatangiye.

Amazi ni isoko y'ubuzima dushishikarizwa kunywa amazi kugirango tugire ubuzima bwiza, abantu bari muri siporo baba basabwa kunywa amazi kugirango bagarure imbaraga baba batakaje.

Mu rwego rwo kwita ku mibiri yacu, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, ariko nanone tukarya indyo yuzuye kugira ngo byose bibashe kutugirira akamaro. Mu ndyo yuzuye harimo imbuto, ibinyampeke, ndetse n'imboga. Imbuto ni nziza cyane ku mubiri, abantu benshi bashishikarizwa kuzirya kugira ngo babashe kugira amagara mazima.

Umukino wa Rugby ni umukino ukinwa birukanka cyane ndetse bahererekanya agapira mu ntoki. Ubwo rero utsinze ahabwa ibihembo bishimishije. Kugira ngo utsinde ariko bisaba kuba warakoze imyitozo myinshi cyane kandi ihagije. Ni yo mpamvu abantu bawukina basabwa kwitoza buri munsi, kandi bagakora imyitozo myinshi ikomeye kugira ngo babashe gutsinda irushanwa.

Kubyuka mu gitondo ugakora imyitozo ngororamubiri ni byiza kuko ingingo zirarambuka n'imitsi ikarambuka bityo amaraso akabasha gutembera neza. ibyo bituma wirirwa nta mavunane ufite ahubwo ugahorana imbaraga bityo ukaba umunyamwete, ukiteza imbere binyuriye mu mirimo ukora.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bw'umuntu kubera ko bimurinda indwara za hato na hato cyane cyane zituruka ku mubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi zitandukanye, bikamufasha no guhorana ubuzima bwiza kandi akagira imbaraga mu byo akora byose.

Kurya neza, ni kimwe mu bintu bituma umubiri wacu ugira imbaraga ndetse ugakomera. Kurya neza ni ukurya indyo yuzuye irimo intungamubiri zose zisabwa, aribyo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ndetse n'ibirinda indwara. Umuntu wariye neza aba afite amagara mazima, kandi ntabwo apfa guhura n'ibyuririzi by'indwara.

Iyo ukoze imyitozo ngororamubiri byibuze rimwe ku munsi, uba ufashije umubiri wawe kubona ubudahangarwa bwo kwirinda indwara ndetse ukagira n'imbaraga, bityo imirimo yawe ukora buri munsi ikagenda neza kuko uyikorana umwete.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwacu, tuba tugomba gukora imyitozo ngororamubiri, tukanywa n'amazi menshi ndetse tukarya n'indyo yuzuye. Indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga ari byo ibinyampeke, ikagirwa n'ibyubaka umubiri ari byo inyama n'amagi, ikagirwa nanone n'ibirinda indwara ari byo imboga n'imbuto. Rero duharanire kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bafasha abantu bafite ibibazo by'imvune, babakoresha imyitozo ngororamubiri yabugenewe kugira ngo babashe gukira neza, ibyo birabafasha cyane kuko bongera gusubira mu buzima bwabo busanzwe, bagakora ibyo bakoraga bakiteza imbere.

Uyu ni umuti ufasha abantu bahura n'ibibazo byo kurwara umugongo, mu ngingo ndetse n'imitsi. Iyo uwisize ahantu ubabara, uragufasha ,ukora vuba kandi ugakira burundu, turabashishikariza kuwukoresha kugirango babashe gucyira burundu izo ndwara baba barwaye.

Abaganga babigiranye ishyaka n'urukundo, bitanga uko bashoboye kugira ngo bafashe abarwayi gukira indwara barwaye, bakabaha ubuvuzi bakeneye. Ni yo mpamvu rero abantu bashishikarizwa kujya kwa muganga mu gihe bumva barwaye, kubera yuko bahora biteguye gutanga ubufasha bukenewe.

Ubutabazi bw'ibanze bushobora kurokora abantu benshi. Niyo mpamvu ari byiza guhora witeguye kugirango mu gihe habaye nk'impanuka itunguranye, ube wafasha abantu benshi ukarokora ubuzima bwabo. Niyo mpamvu hashyizweho agakapu kajyamo ibikoresho byinshi by'ubuzima bishobora kugufasha gutabara umuntu cyangwa nawe ubwawe ukitabara.

Umukino wa Basket ni umukino mwiza cyane kubera yuko utuma abantu bakora imyitozo ngororamubiri, ikindi kandi bakaba inshuti, bakungurana ibitekerezo mbese ubuzima bwabo bukarangwa n'ibyishimo ndetse bakabaho banezerewe.

Imbangukiragutabara ni imodoka zifashishwa ku rwego rw'ubuvuzi, kugira ngo zihutire gutwara abarwayi, zibavana ku bitaro bimwe zibajyana ku bindi, kugira ngo babashe gufasha uwo murwayi kumuvura neza, bityo ubuzima bwe bubashe kurokorwa.

Imvune yo mu ivi ni imvune ibabaza cyane, umuntu wavunitse mu ivi aba afite akaga gakomeye ko kuba yabura akaguru, bitewe nuko hashobora kuvamo izindi ndwara urugero nka kanseri. Bashobora kugaca, bityo akagira ubumuga ntazongere kubasha kugenda.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru bahura n'akaga gakomeye, urugero nko kugwa akaba yavunika akaguru. Ni yo mpamvu haba hari abantu batanga ubutabazi bw'ibanze, babafasha kugira ngo babashe kongera kugenda, n'iyo atabasha kongera gukina by'ako kanya ariko akaba ameze neza mu gihe ataragezwa kwa muganga.

Mu rwego rwo korohereza abantu kubona ubutabazi bw'ibanze mbere yuko bagera kwa muganga, bashyiriweho agakapu keza kaba karimo ibikoresho bitandukanye by'ubuzima, kugira ngo mu gihe umuntu ahuye n'impanuka cyangwa se ikindi kibazo, ajye abasha gukorerwa ubutabazi bw'ibanze mbere yo kugezwa kwa muganga, kugira ngo hirindwe ingaruka zo kubura ubuzima.

Umuntu ukora siporo kenshi gashoboka, aba afite amahirwe menshi yo kutarwara indwara zitandura, urugero: nk'umuvuduko w'amaraso, Diyabete ndetse n'izindi. Bityo, agahorana ubuzima bwiza.

Indyo yuzuye, igizwe n'amoko atatu. Bumwe muri ubwo bwoko, ni ibirinda indwara. Ibirinda indwara urugero harimo amaronji. Amaronji akungahaye kuri vitamine C. Ikindi kandi afasha uruhu kumera neza, ndetse n'umuntu wayariye, agahora afite ubuzima buzira umuze.

Tungurusumu ni kimwe mu bintu byifashishwa n'abatetsi benshi, aba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, Tungurusumu ni nziza kuko ihumuza ibiryo abantu bakarya bakaryoherwa, ikindi ifasha imitsi yazibye kuzibuka, na none amaraso yari yaravuze akongera gutembera neza mu mubiri.

Igikakarubamba ni ikimera kimera mu ishyamba, kikaba kivamo imiti myinshi. Muri iyo miti, harimo umuti woza amenyo. Umuti woza amenyo, uva mu gikakarubamba, ni mwiza kuko ukura impumuro mbi mu kanwa, ndetse ugatuma umenyo ahora asa neza, bityo ukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Mu rwego rwo kunoza ubuvuzi gakondo ikigo k'igihugu gishinzwe kugenzura imiti mu Rwanda FDA, kirasabwa kugenzura imiti gakondo kugira ngo hizerwe ubuziranenge bwayo bityo abayikoresha bayikoreshe bafite icyizere cy'uko izabavura.

Igikakarubamba cyifashishwa mu bintu bitandukanye, urugero nko gukora isabune yo gufurisha mu mutwe. Iyo sabune ni nziza ku buzima bw'umusatsi, kuko ivura imvuvu, igatuma mu mutwe hahorana isuku, umusatsi ukorohera ndetse ukanabyibuha. Ugura n'amavuta menshi mu musatsi, bityo ugahorana itoto. Umuntu uyikoresha ,ntaho ahurira no kwishimagura.

Umuravumba ni kimwe mu bimera kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye urugero nk'indwara y'inkorora, umuntu urwaye inkorora ashobora guhekenya umuravumba bitewe n'ubukana ufite akabasha gukira kandi neza.

Ku isi hari abantu benshi batunzwe no gucuruza imiti ya gakondo. Bityo, bakayijyana ku isoko kugira ngo abantu bashaka kwivura cyangwa kuvura abandi bakoresheje iyo miti ya gakondo, babashe kuyibona mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Igikakarubamba ni icyatsi kizwiho kugira intungamubiri ndetse kikifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, niyo mpamvu abahanga mu bya siyansi, bakifashisha bari gukora imiti ndetse bari gukora n'amavuta yo kwisiga kugira ngo uruhu rworohere ndetse n'abarwaye indwara z'uruhu zikire, cyikifashishwa na none mu gukora amasabune yo koga ku mubiri ndetse n'ayo koga mu mutwe.

Icyatsi kirandaranda gifite indabo z'umuhondo n'utubuto dutoduto, kifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara, nk'inkorora ndetse n'ibicurane. Umurwayi ukinyweyeho ahita akira byihuse kandi akagira ubudahangarwa bwo ku rwego rwo hejuru.

Igikakarubamba ni kimwe mu bimera bibyazwamo ibintu byinshi bitandukanye, urugero nk'imiti ndetse n'amavuta. Amavuta ava mu gikakarubamba aba ari meza cyane, kubera yuko atuma uruhu rusa neza, uruhu ntirwumagare, ndetse rugahora rutoshye.

Baho Neza tv ni ikinyamakuru gifasha abantu kwivura hifashishijwe ibimera bitandukanye urugero nk'indimu, igikakarubamba, umwenya, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo bituma bakomeza kugira ubuzima bwiza bakabaho neza.

Abajyanama b'ubuzima, ni abantu b'ingenzi cyane kubera yuko bafasha abaturage kwita ku buzima bwabo mu byerekeranye n'imirire. Babamenyera imirire iboneye kugira ngo birinde indwara ndetse bakanavura n'uwarwaye. Tugomba kubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho igihe kirekire bityo twishimire ubuzima.

Kwita ku isuku yo mu ntoki ni byiza cyane. Uyu muti warawugenewe kugira ngo ufashe abantu batabashije kubona amazi meza n'isabune byo gukaraba mu ntoki, kugira ngo ubafashe kwica mikorobe ziba ziri mu ntoki bityo intoki zabo zihorane isuku.

Imiti gakondo ni myiza kandi yifashishwa n'abantu b'ingeri zose, abantu barayikunda kubera yuko iravura kandi ikanabakiza vuba. Urugero ivura indwara z'uruhu nk'ise, amahumane ndetse n'ibindi ndetse hari n'ivura indwara zo mu nda nk'inzoka, abantu barayikunda.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba, ni umuti mwiza cyane kuko ufasha amenyo kugarura ibara ryayo, ayari yarabaye umuhondo akongera akaba umweru, ikindi mu kanwa hagahora impumuro nziza, bityo ubuzima bwawe bwo mu kanwa bugahora bumeze neza.